Iyi ni inzu bacururizagamo imiti bayitaga farumasi, iburyo hariho imiti n'ibumoso hariho izindi. Abazicuruzaga babashishikarizaga gucuruza imiti zitarangije igihe.

Kwa muganga, abaganga bakundaga kwita ku barwayi barembye. Babaga bambaye imyenda z’ubwirinzi zitandukanye, harimo udupfukamunwa, uturindantoki, n’ibisarureti.

Inzu bacururizagamo imiti yitwaga farumasi, abayicuruzaga ni abagabo, iyo ugezemo urwaye baguhaga imiti zijanye n'uburwayi bwawe.

Iyo umurwayi arembye cane abaganga bamuhuriragaho, bakungurana ibitekerezo by'uburyo bagomba ku mufasha, babaga bafite imashine iri kugenda irapima uko umutima gwe guri gutera.

Ibitaro by' i Nemba bikundwaga n'abantu benshi cane. Bigiraga abaganga b'inzobere bitaga ku barwayi, bagiraga urukundo, bavugaga neza, batangaga serivisi zinoze.

Mu cumba bacururizagamo imiti, habagamo imiti z'amoko gose, buri murwayi bamuhaga izijanye n'uburwayi bwe, habagamo n'amazi go guha umurwayi ushaka kunywa imiti ze.

Aga mabuye bagitaga amakoro. Gakikijwe n'uturabyo twiza dufite amabara gatandukanye: ibara ry'umweru ,iry'umuhondo n'iry'icatsi.

Igiti c'umuhate nico abantu bakoreshaga bari gutandukanya imbibi zabo, kugira ngo buri wese amenye mukwe. Iyo babigenjeje batyo nta muntu urengereraga uwundi.

Hari ibirabyo by'icatsi kibisi bigiraga n'akandi kabara k'umuhondo bakundaga kuzitiza, iyo byakuze cane bigiraga amashubi ikindi kandi bibikaga inzoka n'ibindi bisimba.

Izi mboga zirasasiwe. Abantu benshi bahingaga imboga ntibazisasire kandi ari ngombwa. Iyo wasasiye imboga, bitumaga zitameramo ibyatsi byinshi.